Abaturage baje mu nama, imbere yabo hari umuyobozi ufite indangururamajwi ari kubabwira, harimo polisi bicaye ku ntebe bambitse umwenda usa umweru. Hasi mu busitani akana karicaye imbere yabo. Abandi hirya bafite umutaka mbese bakikijwe na shitingi.

Ababyeyi baje kuvoma ku iriba ryubakishijwe ikoranabuhanga, barishimye cyane kuko bateraniye ahantu hamwe, umwe aravoma abandi bamusunikira, ni iriba rifite inkuta zitandukanye zubakishijwe amatafari ndetse na sima, inyuma yaryo hari igiti gifite n'amababi menshi, bihuhura mu mutwe, bakishima bakaganira, ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Abaturage baturutse mu duce dutandukanye tw'igihugu baje ku karere bamwe baricaye abandi barahagaze, abandi bari kwinjira ngo babakire, hirya yabo haparitse imodoka isa umweru ndetse hateye n'amashitingi, inyuma y'iyo nzu hari igihuru ndetse n'ibyatsi byinshi hateye n'ipoto ry'umuriro n'idarapo hanze ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umugore wambaye umupira w'iroza n'ijipo y'umukara. Arasutamye, yaje ku iriba kuvoma amazi mu njerekani isa umuhondo ikeye. Yayiteretse mu mabase abiri, imwe y'umweru n'iy'ubururu kugira ngo itandura. Inyuma ye hanitse imyenda. Hirya ye hari inzu z'amabati zimukikije ndetse n'agati gafite amababi y'icyatsi.

Umubyeyi wicaye ku ntebe yo gutegererezaho, yambaye agapira k'icyatsi ndetse n'ijipo, agatambaro mu mutwe, ari kureba hirya ibirimo biraba, inyuma ye ku gikuta hashushanyijeho ururabyo rwiza cyane, bigaragara ko ari nk'abana babikoze.

Kwita ku buzima bw'abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe, byorohereza Leta gutanga serivisi byihuse. Babubakiye ibitaro mu Ntara, mu Turere kandi bakanabafasha gushyira hamwe nko mu matsinda, kwivuriza mu miryango, kugisha inama abarwayi, kongera gusuzuma no gukurikirana abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe binyuze muri gahunda yatanzwe na Leta.

Icyapa cyerekana umugore utwite ibyo agomba kwitaho, kumenya ibiro by'umwana, kuzana n'umuryango we kwa muganga, kuzana n'umugabo we kugira ngo amurebe, igihe atwite agomba kubona urukundo ruhagije, kwirinda kurya ibiryo bitamufitiye akamaro. Icyo gihe bizamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi ndetse no kubyara umwana wishimye kandi ufite igikuriro.

Ikigo cy'abanyeshuri kiga ku buzima bwo mu mutwe hano mu Rwanda, kiba kifatanyije n'abanyeshuri ndetse n'abayoborwa kwiga ku buzima bwo mu mutwe, ndetse n'uburyo bajya babonera abana bafite icyo kibazo kubona uko bivuza, ndetse bakabasha kugerwaho n'imiti mu buryo bwihuse.

Ubuzima bw'uburwayi bwo mu mutwe, ni ingenzi cyane kubwitaho. Umubyeyi wahawe impamyabumenyi, bagenzi be bari kumufasha kwifotoza ifoto ku impamyabumenyi yahawe. Inyuma yabo, hari imodoka nini cyane n'amashitingi ateye maremare, hari habaye umunsi mukuru wo kwizihiza ibirori.

Jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mirongo icyenda na kane hari ibisigisigi byinshi by'inkomere yagiye isiga: abana b'imfubyi, abapfakazi ndetse n'abatagira kirengera, niyo mpamvu gufasha abana barwaye ikibazo cyo mu mutwe ndetse n'abakuru bibagaruriramo imbaraga zo guhumeka no kwiyakira mu bantu muri rusange bakirinda guhora birukanka mu muhanda.

Abana bishimye baba bafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe, iyo bahuye bagakina bagaseka bagahuza urugwiro, by'umwihariko iyo bari ku ishuri bakajya bigana bibafasha kumenyana ndetse no gukundana, bikabongerera ibyishimo mu buzima bwa bo bwa buri munsi, aba bana benshi bari aha ngaha harimo abahungu harimo n'abakobwa.

Icyumba gitoya kiringaniye kirimo intebe zifite imisego isa icunga, urugi rw'ibara ry'ikigina, n'isaha ku gikuta. Harimo akabati gasa nk'aho babikamo udukoresho dutandukanye n'amamashini menshi amanitse, ari ku gikuta ndetse n'andi ahagaze.

Urubyiruko n'abayobozi babo, bari gufata ifoto y'urwibutso y'igikorwa bavuyemo. Bamwe baricaye, abandi barahagaze, imbere y'inzu isa umweru. Hirya hari ururabyo rusa icyatsi n'inzu ifite ibirahure bibonerana.

Umukecuru w'imvi nyinshi wambaye amataratara asa umutuku n'amaherena asa umweru, umupira w'ubururu, afite igikombe kirimo amazi, atamiye ikinini yicaye mu cyumba cye ku gikuta hariho ifoto hasizemo irangi risa umweru.

Ababyeyi bakuranye kandi bishimye biba ari byiza cyane, by'umwihariko iyo babyaye abana bakabakuza neza bituma babitaho, bituma kandi n'abasaza n'abakecuru basaza bishimye bikabarinda gusaza imburagihe, ni byo byiza rero yuko ababyeyi bajya bita ku bana babo bikabaha inzira n'umurongo kuzabatunga na bo bakuze.

Umusaza usheshe akanguhe yicaye mu ibase barikumwoza. Afite imvi zisa umweru, ibitsike ndetse n'ubwanwa. Bari kumwoza yicaye mu ibase nini cyane isa ubururu. Akeneye gucya ndetse no kwitabwaho kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umwana wicaye ari kumwe na muganga arishimye cyane, yambaye agapira gasa icyatsi, afashe ku cyuma muganga ari kumupimiraho yumva uko ameze, hirya ye hari akameza agasa umweru gateretseho ivase irimo indabyo zisa icyatsi n'umuhondo. Karishimye cyane kari guseka.

Anama ihuriyemo abayobozi bo ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze yawo, biga ku kibazo cy'ubukungu n'uburyo bakangura ubuhahirane. hagati ya Afurika no hanze ya Afurika, bikabafasha kwagura isoko ndetse n'imigabane ku Isi hose.

Icyumba cyo gukoreramo imyitozo kirimo agatebe ko kwicaraho, ururabyo rwiza cyane, ikibaho kiba muri icyo cyumba kirasa ikigina cyandisteho amagambo asa umweru, inzugi zifite ibirahuri bibonerana, hirya yaho hari ibindi biro birimo abantu bari gukora bafite na murandasi.

Inzu nziza yubatse neza kandi ndende. Igaragara ko ari ikigo cy'amashuri abana bigiramo, hasukuye hasize irangi risa neza. Hanze hari ubusitani bwiza bw'icyatsi kandi bwagutse, hashizemo idarapo ry'igihugu haparitse imodoka ndetse na moto.

Inzu yo kwa muganga irimo intebe nziza cyane, aho abarwayi bicara bategereje abaganga baza kubafasha, aho kwakirira abarwayi hateguye neza hasize irange ry'umuhondo, harimo ubusitani burimo indabyo z'icyatsi n'inkuta kuva hasi kugera hejuru ndende.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bibiri bishashe neza, n'amashuka y'umweru, harimo inzugi ebyiri hasigishije irangi risa icyatsi, umweru n'ubururu. Amatara yaka cyane, hasi hariho itapi isa ikigina.

Inzu ababyeyi bateraniramo, bicaye hanze ku kabaraza, bumva akayaga, inyuma yabo hari ikigega cy'amazi y'imvura afatwa, ndetse hateye n'insina, umuyobozi arahagaze arimo arababwira ibyo bagomba gukora, umwe arahagurutse atanga ikibazo cy'ibyo umuyobozi yari arimo arababwira.

Inzu isuzumirwamo malariya, isa umweru. Yubatse neza cyane, ifite amabati asa ubururu. Hanze hari umuganga wambaye itaburiya isa neza cyane. Hari ubusitani busa icyatsi ndetse hanze harakubuye, haranacyeye cyane.

Imboga rwatsi n'imbuto biri mu bikomeza ubuzima bwacu bwa buri munsi, kunywa amazi ahagije, ugakora siporo, ukipimisha ibiro bidufasha kumenya ibyo ugomba kugabanya no kongera ubifashijwemo na muganga wawe ubizobereyemo bikakurinda indwara zitandukanye ahanini uba utewe no gukora imirimo ivunanye.

Umugabo wicaye mu ntebe hafi n'idirishya, wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'ikoboyi isa ubururu. Yavunitse akaboko, afite agatambaro k'ubururu, arimo arikanda mu nkokora, bigaragara ko yababaye cyane.

Abana benshi bateraniye ku kibuga cyo gukiniramo. Umwe ari gutera ahereza mugenzi we, abandi bakamurangamira ibyo ari gukora. Bamwe batonze umurongo bategereje yuko bagerwaho. Undi ari gukoma amashyi, yambaye umupira w'umutuku, yishimiye ibyo umwana akoze.

Ivi iyo rikomeretse ushyiraho igipfuko kugira ngo ikurinde kwinjiramo umwanda ukoresheje ibikoresho byabugenewe wakuye kwa muganga, akenshi bikunda kuba iyo wasitaye, iyo wanyereye cyangwa se iyo urimo urirukanka ukagwa, icyo gihe ugomba kwihutira kujya kuripfukisha kugira ngo utagira ingaruka zindi.

Imashini ifasha abantu gukuraho ibinure biri ku nda ku buryo bworoshye kandi bwihuse. Ikunda gukoreshwa cyane mu nzu zikorerwamo imyitozo ngororamubiri ndetse no kwa muganga, iyo bafite umuntu wazanye ibinure byinshi kandi ahantu hatagenewe, cyane cyane ku gice k'inda.

Siporo ngororamubiri ituma amaraso atembera neza ndetse n'amagufwa agakora icyo yabugenewe by'umwihariko iyo umuganga arimo aragufasha, hano hari umuganga uri gufasha umuntu uryamye ku gatanda amufasha kugorora amavi yiwe, yambaye imyenda ya kiganga ibyuma bipima ndetse arimo arereka uyu muntu uburyo agomba kujya akoresha amavi yiwe kugira ngo atajya azamo ibinya.

Agati gatoya gateye mu busitani busa icyatsi burimo amababi yumagaye, ako gati gafite amababi menshi. Umuntu wambaye umupira w'ubururu usa nk'ubyimbye akaboko, yaje gusoroma amababi yo gukoresha kugira ngo yivuze imiti gakondo imufashe kubyimbuka.

Agacupa k'imiti gapfundikiye neza kariho icyapa cyanditseho reyishi, ni yo yonyine ishobora guhangana n'amibe ku kigero cyo hejuru. Umuntu ariho wifashe mu nda, yerekana ukuntu aba ababara; ariko iyo ufashe uyu muti wa reyishi, bikurinda gukomeza kuribwa cyane no kugira igogorwa rimeze neza.

Icyayi kiraryoha, iyo kirimo ibimera by'umwihariko nk'umuravumba, macyayicyayi, umwenya, bidukiza ibicurane, inkorora, mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bikaturinda kwivuza magendu kandi tugakoresha imiti gakondo byoroshye kandi byihuse.

Amacupa manini y'ubwoko butandukanye burimo amavuta yo kwisiga. Amwe akoze mu gikakarubamba, andi aba akoze mu ndimu. Amavuta akozwe mu bimera aba ari meza cyane kuko adufasha kugira uruhu rwiza kuko ntabwo aba avangiye. Bigatuma dusa neza kandi tukagira uruhu rutoshye, rubobereye.

Umuti ukozwe mu bimera usa ubururu, uri mu icupa ribonerana. Ririho icyapa kiriho igikakarubamba. Ukora ukanasukura ndetse ugakuraho amavuta ndetse n'umugesi uba wafashe ku byuma. Hariho na nimero z'uburyo ushobora guhamagara uwo muntu kugira ngo uwo muti ukugereho.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiryo mu Rwanda ndetse n'imiti, cyorohereza abaturage baho, kubona ibiryo ndetse n'ibihingwa. Harimo guhinga akarima k'igikoni, bakabasha kubaha ifumbire, kugira ngo beze imboga ndetse n'imbuto, abana babo bagire ubuzima bwiza, kandi buzira umuze.

Isoko ryo ku mugabane rishinzwe imiti gakondo, rikora uburyo bwo gucuruza iyo miti, ndetse no gushyiraho ibiciro, byorohereye buri muturarwanda wese, cyangwa se buri muturage kubona iyo miti, ndetse bikanamworohera kubona uburyo bwo kwivuza, ndetse no kuyigura. Harimo nk'ubunyobwa, harimo amateke, harimo n'ibitunguru, ndetse na tangawizi.

Imiti gakondo idufasha gukuramo amavuta yo kwisiga tukagira uruhu rwiza, ikaduha imiti yo kunywa ndetse nta kindi kintu kivangiwemo, twifashishije ibyatsi, agasekuru, umuhini, amazi, n'ibirungo bitandukanye, bikadufasha gukira mu gihe gitoya kandi byihuse.

Amacupa menshi kandi atondekanye neza. Amaremare, amagufiya arimo ibintu bitandukanye. Harimo arimo mo imiti yo isukika, iy'amafu ndetse n'iy'amavuta. Amagufiya afite imifuniko y'imihondo kandi arabonerana. Amacupa yo ni maremare arimo imiti isukika. Ifite n'icyapa kiranga ibyo bintu bakora. Hari n'iy'amavuta ifite amacupa asa umweru n'umufuniko umwe.

Agacupa karekare gafite umubyimba mutoya n'umufuniko usa ubururu kandikishijeho amagambo yitwa Serum, hariho igisiga kirimo kiraguruka, gateretse ahantu hasa umukara inyuma yaho.

Imiti muri rusange idufasha kugira ubuzima bwiza, by'umwihariko iyo ari iya gakondo, tuyifashisha dukoramo amasabune, amavuta yo kwisiga, ayo mu mutwe, ayo ku ruhu ndetse n'ayagutekesha. Icyo gihe tuyakoresha, bigenda bitwongerera, guhora dufite ubuzima buzira umuze.

Agati gatoya gafite amababi y'icyatsi. Ni umuti gakondo udufasha kwivura ubuzima bwacu bwa buri munsi kandi mu buryo bwihuse uraza ugasoroma ukayibonera ubuntu kandi ugakira indwara nta kintu na kimwe kikugoye kuruta kujya gushaka amafaranga kugirango ubone uburyo bwo kugura imiti yo kwa muganga.

Imiti rwatsi yanitse kugira ngo yume, umugabo uhagaze mu ishyamba wambaye ikote ry'umutuku afashe ku giti, abagabo babiri bahagaze mu ishyamba rizitiye harimo ibiti byinshi, imiti ya kimeza irandaranda hasi, iteye mu butaka.

Ibiti bya kimeza rimwe na rimwe nticyaba ari umuti. Kano gati gateye ahantu konyine, ibindi biti biracyitaruye. Gafite amababi menshi hejuru yako, rimwe na rimwe ushaka kuyasoroma ugasanga yakuvura nk'inkorora ndetse n'ibicurane. Niyo mpamvu ari byiza kwifashisha imiti gakondo kugira idufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi.